Ibikoresho gakondo birimo urukiza, igicuma, imbehe, inkoko, umuvure, byakoreshwaga mu muco w'abanyarwanda mu gutegura ibinyobwa bitandukanye harimo imitobe, inzoga, n'ibindi.

Ikigega cyubatswe mu buryo bwa kinyarwanda cyo guhunikamo imyaka, kikaba cyubakishijwe ibiti mu buryo bwa muviringo gisakajwe ibyatsi by'ishinge, kikaba gikikijwe n'uruzitiro rwubatswe mu buryo bwa kinyarwanda.